Abari batatu ubona ko bashiritse ubute baravuga ngo tugomba kugira ibyo dukora natwe tugatanga ibitekerezo byacu byubaka igihugu. Nuko rero hano bicaye amazi imbere yabo ndetse n'udupapuro turi amazina.

kuba bajya mu nama runaka bigatanga igitekerezo cyawe birakenewe kurushaho gusanga ari ingirakamaro ku muntu uwo ari we wese hano rero bahateraniye ni abadamu ndetse n'abagabo bakuze ubonako ko imbere hari amazi ndetsegira ugira icyaka Ari busomeho nta kibazo rwose

Aba abagore nkurikije ukuntu bari kureba, batumbereye umuntu n'ibyo ari kuvuga ndetse bari no kubisobanukirwa cyane, aho batari bwumve neza barasobanuza, ariko bagize icyizere baravuga ngo natwe tugomba kuyobora inshingano runaka. Inyuma rero handitse Kigali yacu ndetse inakeye.

Abantu ubona ko bicaye ahantu hatwikiriye harimo abagore n'abagabo, abandi barahagaze n'abanyamakuru bari gufata amashusho y'ibiri kubera hano umubyeyi umwe arimo aravuga hakurya hari n'abandi ubona ko bari baje kwitabira ibi bintu.

Kuba waganirwa ku bibazo runaka byugarije agace kawe ntibyagufasha cyane, bano n'abagabo ndetse harimo n'abagore ariko ni babiri abo ndi kubona naho hari ibirango bya mara y'ubururu yanditseho Kigali yacu ubwo byumvikane ko bari kuganira k'ukuntu bazateza imbere mujyi wabo.

Ubundi kwitabira inama ni ingenzi, hano rero ni murubyiruko nkuko ubibona, bambaye imyenda isa y'umweru rwose, imipira ndetse n'intebe nziza z'umutuku bicayeho, amakaye n'amakaramu imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi igihe bumva bafite icyaka bashobora gusomaho.

Abagore n'abagabo ubona ko bicaye bari kureba imbere, bisa n'aho hari ibyo biri kuvugwa bumva, amakaye n'amakaramu, utari kwandika arimo arumva. Rero ni byiza ko natwe twajya tugera ahantu, tugaha agaciro ibiri kuhabera.

Abategarugori nibo ubona ko bagiye biyicarira ahantu runaka ndetse bari no kuvugana ku nama yiga ku mishinga irimo kuba, rero bamwe bafite za mudasobwa abandi bari mu materefone utazifite arimo arakoresha ikayi n'ikaramu.

Umwari mwiza cyane mbona ko afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikindi kiri butume avuga bikumvikana bikagera kure imbere ye hari igikombe amaze kunyweramo ibintu ntabasha kumenya yakai ndetse na telefone na mudasobwa ayacanye n'undi nawe abona ko yipfumbase atari kumureba.

Ababyeyi benshi ubona ko bari bitabiriye igikorwa runaka, hari ahantu hatwikiriye rwose ibitambaro by'umweru birimo nta mvura yabageraho cyangwa izuba, bafitiye amatelefone abandi barimo barumva ibihavugirwa kugira ngo bagire icyo batahana.

Abantu ubona ko bishimanye bose, harimo abagore, abagabo bambaye imipira itandukanye, ndetse baricaye bameze nk'aho bari kumva ibintu runaka, rero hari n'amazi imbere yabo, amakaye n'amakaramu kugira ngo bandike ibyo bari ukumva.

Umugore washiritse ubute rwose akavuga ngo nange ngomba kujya kuyobora cyangwa se guhagararira ikintu runaka. Urabona ko yicaranye n'umugabo wambaye ikote ryiza cyane ry'ubururu rijyanye na karuvate ndetse imbere ye hari amazi, mikoro ziri gutuma ibyo bavuga byumvikana.

Abagabo benshi ubona ko bamwe bariyuka bari kwandika, amazi imbere yabo y'uducupa tw'inyange ndetse n'abagore ubona ko bari kuganira ku kintu runaka nyine utabasha kumenya, bici mu ku ntebe nziza cyane z'imisego.

Ni byiza ko mwajya muterana nkamwe mukareba ikibazo cyugarije mukagikemura rero nkurikije ukuntu mbibona uyu ni umugabo ndetse n'umugore ariko bari ahantu bafite mudasobwa zabo nziza ndetse n'amazi amakaye n'amakaramu indabo imbere yabo.

Inama nyinshi zba ziigomba kuba zigakemura ibibazo bitandukanye ndetse abaturage ibyo bafite bakabibageza. Bano rero ubona bambaye amakote n'amashati y'umukara bafite za mudasobwa imbere yabo, uducupa tw'amazi y'inyange ubona ko nyine bafite ibintu bari kuganira.

Aba basore n'inkumi ubona ko bafite ibintu bari kureba byinshi cyane, bamwe bateretse amashakoshi ku meza hariho amatelefone yabo ndetse n'ibitabo bari kwandikamo na mudasobwa, bisa n'aho batumbereye amaso yabo ku muntu uri kubabwira ibintu ahagaze imbere.

Abantu iyo bitabiriye cyangwa se abavuga ngo abishyize hamwe Imana irabasanga bano rero nibyo bagerageje gukora intebe nziza z'imihondo ameza ateretseho amazi yo kunywa mugihe bumva bafite icyaka, hakurya yaho hari n'izindi z'imikara ndetse n'umubyeyi wambaye umupira w'ubururu ubonako afite ibintu ari kubaganiriza bano ni abasore n'inkumi rero.

Umubyeyi ubona ko asa n'ukuze ariko bitari cyane arasa neza rwose afite mikoro agakanzu keza, terefone mu ntoki, isaaha ku maboko afite ibintu ari kuganiriza abantu bijyanye n'insanganyamatsiko bari kuganiraho.

Abagabo ubona ko hari ikintu cyabahuje bombi bafite ibyo bari kureba imbere yabo kandi banakurikiye bari kumva ibihavugirwa; bambaye amakote meza cyane y'umukara ndetse inyuma hari n'abandi babagaragiye; imbere yabo hari amakayi n'amakaramu bandikamo imyanzuro iri kuhafatirwa.

Ababyeyi bashiritse ubute baravuga ngo reka natwe tujye twiyambarira amapantaro rwose nta kibazo, urabona ari hagati y'abagabo babiri bambaye iby'ururu ndetse n'umupira w'umweru, inyuma ye hari abandi benshi, ndetse uducupa tw'amazi yo kunywa, turi imbere ku meza yabo.

Ubundi niba uzi ikintu cyo gerageza ugisobanurira abandi kuko nabo baguha ibyo bazi kandi bikagufasha rero urabona ko buri muntu afite uwo ari gusobanurira ,buretse umubyeyi turi kubona wambaye umwenda w'umutuku ariko bareba imbere yabo hari amaterefone ,amakaye ,amazi ndetse na zamudasobwa.

Abasore n'inkumi rero baba baje kwitabira ibintu runaka; nkurikije imipira yambaye y'umweru iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ryiganjemo mbara y'ubururu n'umuhondo, icyatsi. Uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse n'impapuro ziriho ibintu bari kugenda bareba.

Hari igihe kijya kigera abantu bagaterana bakaza bagahurira ahantu runaka bakabyina bakishima ndetse na leta ikaza, hano hari umubyeyi ari gusuhuza umugabo usa n'ubyibushye wishimye impande ye hari inzego z'umutekano ubona ko ibintu ari amahoro.

Umugore uri hagati y'abagabo babiri, imbere ye afite ikaramu n' kayi arimo arandika. Undi bisa nk'aho ari gusoma yumiwe n'ibyo bari kuvuga. Afite mudasobwa imbere ye n'agacupa k'amazi kugira ngo aze kunywa icyaka nikibica, bicaye mu ntebe nziza z'imikara.

Umugabo usa n'ukuze nako afite ahantu atumbereye, ari kureba yumva ibihavugirwa, yegeranye n'undi nawe wambaye agashati karimo umweru n'irindi bara risa nk'ivu, inyuma yabo hari abantu benshi cyane bari kunywa amazi, uducupa duteretse ku meza.

Abasore n'inkumi beza cyane ubona ko basa neza imbere yabo hari udukombe twubitse bari babazaniye kugira ngo banyweremo ibintu runaka, ibirahuri birimo ibinyobwa na telefone ndetse na za mudasobwa imbere yabo amakayi n'amakaramu bari kwandika imyanzuro yahavugiwe.

Abantu ubona ko bari baje bari kwiganirira ku kibazo runaka ariko nkurikije ukuntu mbibona, hari uwigeze kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda gusa ntibyamuhira. Ari kumwe n'abadamu benshi, imbere yabo hari uducupa twa ji ndetse n'ibirahure byubitse.

Inkumi ndetse n'abasore bari bitabiriye ibintu runaka bamwe bambaye imipira y'imbeho abandi bambaye isanzwe, inyuma hari abasore ubona ko bane bahagaze ku gikuta cy'umuhondo, hirya gato hari udutafari duhiye urabona ko ari ibintu biryoheye amaso cyane.

Inama ubona ko iri kwita ku bintu runaka bitandukanye, irimo abategarugori cyangwa se abagore muri rusange n'abagabo bafite amazi imbere yabo, ku meza hateretse na za mudasobwa bari gusomamo ibintu bitandukanye.

Abagabo benshi ubona uko bicaye rwose n'abagore. Imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse n'ababayoboye batandukanye. Inyuma hari ikirango cyanditseho amagambo ndetse kirimo umweru n'ubururu.

Kuba wakitabira inama runaka ni ingenzi kuko ukuramo byinshi ukahigira n'ibindi abagore ndetse n'abagabo nibyo barimo hano; bamwe bafite udutasi bari kwinywera icyayi cyangwa se utabibashije ari kunywa amazi rwose bamuhaye agacupa kayo abona ko ari ibintu biryoheye ijisho inzu nini inacanyemo amatara meza cyane!

Abantu benshi babona ko bishyize hamwe, cyangwa se basuwe kubera ihene bafite zifite ibiziriko nyuma yaho hari amazu meza n'ibitoki, ubona ko biyororera cyangwa se banahinga ibiribwa runaka bakabyohereza hano bakabicuruza.

Umudamu mwiza cyane mbonanako akeye yambaye imyitero n'imiringa mu ijosi imbere ye hari agacupa k'amazi ndetse n'ikayi kuvugirwamo, ipande ye hari umuntu uri mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda abo tuzi nk'abaporisi ubona ko bafite ibintu bari kuganiraho ndetse bateze n'amatwi.

Hari inzu zabugenewe zigomba kwakira abantu benshi nkuko tubizi rwose ukurikije iriya myanya irimo hariya irimo ubona ari bakeya ariko abagabo n'abagore bari bitabiriye ibiri kuvugirwa hano bamwe bafite za mudasobwa, amazi imbere yabo, ibitabo barimo barandika imyanzuro iri kuhafatirwa.

Nujya witabira inama runaka ujy'ujyerageza kumva ibiri buvugirwemo ugira n'icyo utahana ,nk'aba bantu urabona ko baba bitwaje aho kwandika ingingo z'ingenzi zatangarijwe aho bari bagiye. harimo abagabo ndetse n'abategarugori benshi cyane n'udutabo imbere yabo, terefone n'uducupa tw'amazi.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu yambaye umupira w'umweru ndetse ubona ko bateze n'amatwi, bamwe bicaye kubigega by'amazi abandi barahagaze hakurya hari ibiti ndetse abicaye bafite n'amazi yo kunywa nibumva bafite icyaka barasomaho.

Abagabo rwose b'inkorokoro biragaragara ko bakuze ariko bicaye bambaye amakoti meza amashati umwe iyubururu nundi iyumukara hari mudasobwa bamwe barazifite , hari uducupa twamazi tubateretse imbere urabonako uribugire icyaka ashobora gufungura agasomaho dukorwa n'uruganda rw'inyange .

Harukuntu mujya munana ugasanga ibintu birimo nabyo bimeze neza birakeye bitewe nikigiye kuhabera, izi ntebe zirakeye numweru hakurya urahabona ibyerekana amashusho yibiri kuhavugirwa ndetse nabantu benshi babyitabiriye barimo abategarugori nabagabo.

Abagabo babiri ku ruhande rw'iburyo hariyo umugore urabona ko bicaranye, afite mudasobwa isa n'ubururu yubitse n'undi nawe hakurya arayifite, inyuma hari ibirango by'ubururu ndetse biriho amabara y'icyatsi ubona ko ifite ibintu bibashishikariza gukora.

Abasore n'inkumiko bari bishyize hamwe bajya kuganira ku bintu runaka ndetse bicaye abandi barahagaze mu nzu nziza cyane ibamo utuntu tubazanira umwuka imbere ahandi hari ahantu hari uducupa tw'amazi bari kunywa rwosen'amakayi n'amakaramu bari bari kwandikisha.

Kujya twitabira ibikorwa bya leta ni byiza. Ababyeyi bicaye mu twatsi urabona ko umwe yiyambariye ingofero, abandi bateze ibitambaro. Hakurya hari umuntu uri kuvuga. Hari n'abandi bicaye ahatwikiriye ku buryo urebye nta mvura cyangwa se izuba byabica.

intama imwe y'umukara n'zindi z'umutuku intebe rero umusore yicayeho ntago isa n'izindi abantu ubona ko bari mu nama bambaye amashati meza n'abadamu amazi imbere yabo ko mu gihe abantu bagize icyaka nabo bari kwiga ku kintu runaka

Ni byiza ko nawe washaka akazi kakajya kagutunga igihe kinini bano rero ubona ni abasore n'inkumi bisa naho bari kwiga gukoresha ibijyanye n'ikoranabuhanga za mudasobwa bari kureba amakuru runaka atandukanye ugomba kwigirira icyizere nawe ukabikora.

Leta yashyizeho uburyo bwiza cyane bw'uko buri mwana aba agomba kumenya gukoresha mudasobwa, ari ingenzi bya buri munsi, tuba tugomba kuzikoresha. Rero aba ni abanyeshuri, bambaye amashati y'umweru, amapantaro ndetse zibari imbere bari kuziga bombi.

Leta yadukore ibyo bintu tujye tuyishimira buriya wabibaza umuntu mbere basabaga icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko; yaheraga kwa mudugudu akajya kwa gitifu yahava bamwohereza ahantu henshi no ku karere akagerayo no mu rukiko ariko ubungubu usigaye usabira ku ikoranabuhanga kigahita kugeraho; urubuga rw'irembo rero niho ushobora gusabiraho ibintu bitandukanye uzakenera.

Ni byiza ko wamenya ukuntu wajya wihindura imibare yibanga igihe runaka kigira ngo rishyireho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo niko kibigaragaza ndetse kinabikwigisha hasi hari mudasobwa rero wabusomaho.

Byiza kumenya aho isi geze, ndetse n’ikoranabuhanga ukuntu rigenda rikura munsi ku munsi ndetse isaha ku isaha. Rero hano, harimu umugabo wambaye ishati n’ndi wambaye ingofero z’ubururu n’umwenda w’umupira w’umweru ubona ko rwose yara aje kumwigisha ukuntu yajya akoresha urubuga rw’irembo cyangwa se akajya abyikorera ku giti cye.

Ubundi ntago aba ari ngombwa kugira ngo nawe bagushyireho igihe ntarengwa bakubarire, wajyiye wibwiriza ukabasha gutanga umusoro ku nyungu wibintu byose wakoze ko ntacyo uba uhombye bwakuye umwana wawe wenda bazagira igihe runaka bakamwishyurira nk'ishuri, jya wibwiriza rero.

Noneho dufashe ibintu byinshi bitandukanye guhamagara, guhamagarwa, kohezanya amafaranga ndetse tukabasha guhura n'imiryango yacu, rero ibi ni ibicu ubonako bicyeye birimo ubururu bucyeya burasa umutuku ndetse n'umweru hasi hari ibiti ndetse n'insinga zambuka.

Sinzi ibintu byateye niba nabyita icyorezo simbizi ,umuntu aragwa bakamufotora yagira ibyago ya yavuza induro kugirango bamutabare bakazamura terefone zabo bakamufata hanyuma bagashyira ku mbuga nkoranyambaga urabona ko byabashimishije, njyewe nsabiye abantu bose ko ibyo bintu babyihana .Aba ni abari rero ndetse n'abasore basa nk'aho bishimiye ibyo bajemo bari gukora nk'ibyo nari mvuze mbere.

Hari ibintu umukuru w'igihugu yadukoreye kandi byiza, reba nk'inyubako bubatse ziberamo ibirori runaka, uzatambukaho ibintu byanditseho viziti Rwanda ubwo bivuze ngo sura u Rwanda, amakipe yo mu bwongereza abyambara ndetse n'umubiligi urumva tuba turi kugenda tuzamura izina ry'igihugu cyacu.

Kwihugura ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko hari igihe ujya mu kazi bakagusaba ku uzi mudasobwa ugasanga n'icyo kizamini kigutsinze cyonyine, rero ujye ugerageza ibintu byose ubimenye nk'uko uyu mwari nawe hari ibyo ari gukora ashaka ibyangombwa bitandukanye ku rubuga rw'irembo leta yashyiriyeho abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bitatu, igice kimwe kiri kugendamo moto ndetse n'imodoka, ikindi kiri gutambukamo umugenzi ndetse ha hagati aho harimo icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiyobora abagenzi hakaba n'ibiti birebire cyane.

Aha ngaha ni ingenzi kuko hadufasha guhamagara cyangwa se kutumvikana n'abo mu rugo igihe habayemo ikibazo cyanwa dushaka kubaha amafaranga, ikirere kiza kirimo ubururu bwinshi agacu gakeya igiti ubona ko kiriguhuha akayaga ubona ko nta kibazo guhari.

Ikintu leta yadukemuriye rwose kuba twarajyaga gushaka ibyemezo runaka iiby'ishyingirwayi iby'uko twavutse ariko ubu ngubu bashyizeho, urubuga rwitwa irembo ushobora kugenda ugakuraho ibyo ushaka iby'uko utakatiwe n'inkiko kwiyandikisha kuzakorera uruhushya rw'ibinyabiziga bya burundu ibyo ni ibintu byatworoheye cyane.

Kugira isuku ni ingenzi kuko biragutabara igihe kinini. Hano rero ubona hashashe utubuye twiza, inzu zigeretse rwose ziri mu mabara y'umweru n'ubururu. Ibiti bihateye bizana akagayaga, amatara amanitse hejuru agenda yambukiranya, abantu baba bari kwitambukira rwose ntakibazo.

kuri iyi si hari ibintu bidutunga amafaranga ariko nanone kugira ngo tuyabone tuba twiyushyakuya rero ugomba gushaka akazi ugakora ugahembwa ukabona kurya niko ibintu bigenda hano rero naho bari gushaka abakozi niba wiyaminiya iriya ntebe wayicararaho

Ni byiza ko wajya wibwiriza ugakora ikintu atari ngombwa kukwibutsa kuko nta kintu ba bimaze rwose jya ugerageza nawe niba Ari ukumenyekanisha umusooro wawe ubikore hakiri kare bikurinda gucibwa amande cyangwa se ngo wogererwe, ikindi kirango rero kiri mu ibara ry'ubururu, n'amagambo yanditsemo kiri kubyemeza.

Iminara iradutabara kuko ituma tubasha kuvugana no mu rugo, cyangwa se nab'iwacu tukabasha kubohereza amafaranga ndetse n'ibindi. Nkuko rero uyu ibibona ndetse urashinze hari ibintu bya tigo n'abantu benshi bambaye imipira y'ubururu.

Umunara muremure ubona ko uwuriye wagera hejuru cyane. Hari ibiti byiza urazitiye; ntabwo wapfa kuhinjira utaje kuhakora cyangwa se utagize ikindi kintu ugiye kurebamo. Abantu benshi urabona ko bahagaze hakurya y'akazu k'umuhondo.

Ubu ibintu byaroroshye rwose mbere twagorwaga no gutumiza ibintu mu mahanga tukabura ukuntu twishyura ariko ubu ngubu utanga ikarita yawe ya banki bagakuramo amafaranga ibintu bigahita biza. Akazu rero kari mu ibara ry'ubururu n'amabati hariho abagabo batatu ,umwe ari hanze abandi bari mu imbere.

Kuba wabasha kumenya uburyo wigenzurira imisoro yawe cyangwa ukareba amadeni ufite ni byiza hari n'ibyangombwa ushobora gukenera ukajya gutanga amafaranga ahantu runaka kandi nawe wakabyikoreye icyo usabwa ni ukujya ku mbuga zabo kuri murandasi ukagenda ukareba ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ukabandikira waba ufite ibyo ushaka kubabaza na hano rero ni uko bikorwa .

Hari ibintu udashobora gusobanukirwa ariko wajya ku rubuga rw'aho ngaho ukababaza cyangwa se ukababwira ikibazo ufite bakagikemura, hano rero ni ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse gicunga nyine abantu bikorera kugira ngo bajye basorera ibyo bacuruje.

Byaroroshye ntabwo twari tuziko bizakunda ariko byarangiye bikozwe kubera reta ijyana n'igihe .Wasangaga buri modoka ifite umuntu ugenda wishyuza ariko ubu byaracitse pfakuba ufite ikarita yawe uraza ugakoza ku cyuma hariho amafaranga akavaho ukagenda.

hari igihe bavuga ngo yemejwe n'ikaramu ntiramburura ubwo umuntu wasoje kwiga akabura akazi ntazacika intege'icyo bivuga kubera ko igihe ufite impamyabushobozi yawe cyangwa se impamyabumenyi isaaha ni saaha ushobora kubona akazi nubwo kataguhemba neza ariko ushobora kukabona kubera ko wize rero iki ni ikigo gishinzwe uburezi mu gihugu gishobora kukwitaho hano rero ni abantu bize ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga urabonamo abari beza ndetse n'abasore.

Inzu mbona igeretse kabiri amadirishya meza utwuma dutangira kugirango ngo batagwa, hasi hari ubucuruzi, itara rimurika nijoro igihe bwije riziritse insinga zigenda zijya muri buri rugo igiti kiri hakurya ndetse n'imodoka ihagaze munsi yacyo.

Ahantu hasa neza nawe bahita bavuga ko uri umusirimu hano rero hari ibiti bikeye, indabo, ndetse n'utwatsi hakurya urahabona igipangu ndetse n'inzu nini cyane n'igeretse, ni nziza zirakeye zifite amadirishya amapoto y'amashanyarazi, igicu urabona ko gisa naho kiringaniye nta mvura, nta n'izuba.

Hari ibyuma biba bishinzwe kwakira umuriro cyangwa se ibindi bintu runaka bishobora gutuma ujya ahantu ibi ibyuma byawe ntibishye

Ku mujyi iyo bwije nijoro rwose n'amatara uba uyabona. Hano hari insinga z'amashanyarazi zituma buri rugo rucana, rubasha kureba tereviziyo; amazu afite amabati y'umutuku, igipangu cyiza cyane. Hakurya urahareba ayandi yubatse meza.

Imiriro ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi barya urugero nka bogosha cyangwa basudira ,abacuruza filime ndetse n'abandi batandukanye .Izi n'insinga ziwujyana kuri buri rugo, itara ricana n'ijoro igihe bwije ,ibirango biriho umugabo wambaye imyenda y'imituku ibiti hasi ndetse n'ahandi ushaka kugurira imiti.

Iminara cyangwa se amapironi yambutsa insinga zivana hamwe azijyana ahandi urugero aguturuka Kirehe kugera i Kigali, arahari kandi arakomeye. Rero nkurikije uko mbibona hano ni mu twatsi twiza indabo ibiti hakurya hari amazu meza akomeye, urabona ni mu gace k'abantu bifite.

Igipangu kirekire ushobora kurira ugahita unyerera. Ibyuma bihazengurutse byahita bigutema. Ndetse, n'ibindi hazitiye byumweru hejuru bisize irangi ry'umutuku, akazu kari hejuru karimo umuntu abona ko ari kureba ngo hatagira igihungabanya umutekano w'aha hantu.

Umwari wavuze ati nange ndashoboye, yambaye ingofero y'umweru imurinda ibyago wenda hari ikintu kimuturutse hejuru ngo kimukubite mu mutwe, mu mwenda usa icyatsi uriho utugarurarumuri, nk'uko nyine yavuze ati reka ngende njye gukora mu bintu bijyanye n'imiriro ndabishoboye kandi narabyize.

Kugenda mu muhanda bisaba kwitonda ariko na nijoro baragenda rwose ntakibazo, kubera ko hari amatara nkayo uri kubona n'imodoka zigenda nijoro nyine nziza. Hakurya hari amazu ndetse n'ibiti ubona ko ari musozi uterera.

Rero birabujijwe kwegera bino byuma ubona bizamura umuriro cyangwa bikawugabanya igihe ubaye mshi cyangwa se igihubaye umukeya, amabati hakurya, ibiti n'inzu byege, reroro cunga umwana wawe mubyeyi, hano uhegereye wapfa, abakozi babugenewe nibo bemerewe kuhagera gusa.

Ni byiza kuzitira ahantu hatemerewe kugerwa cyangwa se kunyurwa nk'uko ibi byuma babikoresheje. Aya mapoto y'amashanyarazi, arajyana umuriro ahantu runaka kugira ngo bamwe bacane, abogosha babikore, abasudira na bo babone icyo kurya, hakurya urahabona hari etaje nziza cyane, munsi yaho hari abamotari bisa n'aho bakora ubwo ubucuruzi.

Ku muhanda buriya ushobora kuhabonera ibintu byinshi ibibi ndetse n'ibyiza ariko ntacyo turi bwibandeho kuri uyu mwanya, ahubwo reka turebe ibihari hari ibiti ibirango ndetse n'ahantu waza ugahahira ibyo kurya amapota y'amashanyarazi n'ibindi.

Ku muhanda ni byiza ko wajya uhategera imodoka ikagutwara, wenda igihe utabashije kugera muri gare runaka, uyu mugore rero nawe yambayekanzu k'ubururu ndetse n'umweru imifuka iteretse imbere ye, ibase ndetse n'ikarita ahetse igikapu bisa nk'aho hari ibyo ategereje.

Imyumbati n'ingenzi kuko wayisyamo ubugari cyangwa ukayiteka biterwa n'uburyo ubishakamo si ibyo gusa ivaho agasombe tukabasha kuba twakirira rero iyi niyo hakurya hari inzu ubona ko ikeye cyane rwose iri mu ibara r'yiza.

Ubundi umuriro ni ikintu dukenera kugira ngo tubashe gukora ibindi bintu n'ijoro udahari ntabwo twabasha kureba, ku manywa nanone ntabwo twabasha kwiyogoshesha cyangwa se ngo dusudire ku bantu ubwo barya byagenze .Aha ni insinga z'amashanyarazi rero urabona ko ziwambutsa ziwujyana ahantu runaka n'amatara yo ku muhanda amurika igihe bwije.

Urugomero rw' amashamyarazi ,nubona icyo kirango rwose kiriho amagambo yandikishije umutuku manini ndetse Nandi yubururu cy' umweru uzahite umenyako ari we, imbere yawo hari toyota rwose nziza iri kwitambukira, inyuma yayo hari umusore nawe ubonako afite ahantu agiye.

Hari amazu meza ubona ko yatwaye amafaranga menshi cyane nk'uko ano yubatse, ikirere kirimo ubururu bukeye amadirishya munsi meza cyane akomeye afite n'ibirahure rwose, ubona ko ari ibintu bituma hasa ukuntu, insinga nazo zijyanayo umuriro rwose.

Ni byiza ko namwe mwajya mutega imodoka ariko mukabanza kwitonda cyangwa se mukamenya n'aho mujya kuzifatira hano hari abanyonzi babiri bahagaze umwe yarivuyeho Indi arihagazeho rwose ndabona ko bategereje gutwara abagenzi runaka, hakurya hari indi modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ubona iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Hano rero baragufasha igihe utashye n 'ijoro ntakibazo wahura nacyo hano rero urabona amapoto yamashanyarazi ajya kuri buri rugo ndetse buri buri muturage afite umuriro hari indabyo nziza cyane ziteye ku muhanda, umuyoboro wagenewe kunyuramo amazi nu rugo rwiza rw'amatafari ahiye.

Kumuhanda kuhagenda bisaba kwitonda, yewe munyamaguru cyangwa se wowe utwara ibinyabiziga, kuko ntawumenya aho bwira ageze, urupfu rwagutwara isaha n'isaha, jya umenya aho ugendera rero, aka n'akayira k'abanyamaguru kabugenewe, irinde kujya mumuhanda utari uwawe. Uriya mu motari ubona nawe atwaye ibintu abishyiriye abari babitumije.

Iki ni ikirere gikeye ubona ko ibintu ari amahoro. Ubururu bwinshi igicu gikeya cy'umweru. Hari iminara cyangwa se amapoto yambutsa umuriro w'amashanyarazi, awuvana hamwe, awujyana ahandi ku baturage runaka bawukeneye.

Hari ahantu hahurirwa n'abantu benshi ukabona nyine birasa neza cyane, urugero nko mu masoko hano rero ni ku muhanda bacuruza amabasi, amasafuriya, ibikoresho byo mu nzu byose bitandukanye, n'amajerekani. Gusa ni munsi y'icyuma gitunganya umuriro kikohereza ahantu runaka.

Ni byiza ko twajya tubungabunga ikirere cyacu, kuko leta yaradukoreye inaca biriya byazanaga ibyotsi twahumekaga nabi; cyangwa se imvura yagwa ikica ibiribwa byacu. Zino moto rero zaje, zarabikemuye. Ntabyotsi nta guhinda ngo zisakurize abantu urumva ko ari akarusho.

Hano ni ku muhanda, ahantu hari utwatsi rwose hari imbaho zizitiye hari n'ikirango, impande y'ipoto ry'amashanyarazi hari umutaka w'umuhondo hicayemo abantu bacuruza amainite babitsa bakanabikuza hahagaze babiri bisa n'aho nabo ari bo baje kwaka ibyo bakeneye.

Hari ahantu haba kure bikaba ngombwa ko bitabaza amapironi niko bayita cyangwa se amapoto maremare avana insinga ahantu hamwe azigeza ahandi, nkuko ubibona iri niryo rero ndetse n'amatara kuruhande nkurikije ukuntu ubibona hano ni murugomero rw'umuriro wamashanyarazi hari nikirango kerekana aho ujya.

niba ntawe ufite amazu manini kandi uzigahuriramo abantu benshi ni ngombwa gutumbira icupa ry'umutuku nkuko ubibona hano rero ni mu iduka baracuruza nkurikije ibyo ndi kuhabona bararifite kukurinda ko hafatwa n'inkongi ugasanga uhobye byinshi.

Hano nkurikije ukuntu mpabona hashobora kuba ari ku bitaro hari abacunga ku marembo barahari rwose ubona bambaye imyenda isa, hakurya hari n'abandi bantu. Ikibimbwiye rero ni uko hari icyapa kireba ku bantu bafite ibinyabiziga kerekene ko utemerewe kuhavugrza ihoni.

Buriya utarishyuye ubwisungane mu kwivuza ukajya kwa muganga, bakwaka amafaranga menshi ariko iyo ubufite barakuvura rwose ndetse ukishyura make niba wari gutanga ibihumbi magana abiri ( 200,000 Rwf) wishyuraho wenda nki ibihumbi mirongo itanu cyangwa mirongo itatu bitewe n'ubushobozi bwawe .Hano rero nkurikije ukuntu mpabona niho hari n'ibirango biri mu mabara y'ubururu bikwereka aho ugomba kujya n'amazu yubatse neza ,amadirishya afunguye.

Igikuta cy'amabuye ubona ko gikomeye, hejuru hariho sima, akavura iyo kaguye ntabwo cyahita gisenyuka. Amapoto y'amashanyarazi y'umweru, ibiti biteye ndetse n'utwatsi, inzu nziza cyane ubona ko ifite amabati maremare.

utwatsi twiza utubuye dutatse ahongaho, igikuta kiriho icyuma cy'umweru, umugozi werekana ko hatemerewe kwinjira w'umutuku n'umweru. Hakurya hari amacupa menshi akaba arimo gaz.

Imvura ubona ko yari imaze kugwa inyagira ahantu hari utubuye ariko nta cyondo cyahagera kubera batuhashyize ndetse hari umugende unyuramo amazi, amakona y'umutuku n'umweru, abagabo babiri bahagaze bari kuganira, hakurya urahabona wagira ngo ni ubwiherero bujyamo abantu bafite ubumuga.

Nkurikije ukuntu mbibona izi ntebe nziza cyane inkingi z'amabuye mbona ko zikomeye, hakurya bya bintu bizimya umuriro by'umutuku, ubwiherero bujyamo abantu batandukanye bishoboka ko ari kwa muganga. Rero mujye mwitondera kandi munubahe ibintu musanze ahantu hose mugiye.

Ahantu hashashe amabuye meza cyane ndetse umwanya imodoka zihagararamo, aho utwatsi turi hakurya, ibigega by'amazi, amazu yubatse menshi, ubona ko habereye ijisho rwose kuhareba n'abantu bari gutambuka uko bishakiye.

Aha ni ku ipaji imwe yo mu igazeti ya Leta nimero supesiyare yo kuwa makumyabiri z' Ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani, ahavuga ingingo zitandukanye zerekeranye no kurwanya ruswa. Harimo ugushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ruswa, gukorera mumucyo, kugaragariza raporo abo igenewe n'izindi.

Rero kuri mwe mwakoze ibibi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, mufite aho mwagenewe kujya kugororerwa mukabihanirwa, n'abangaba rero bambaye imyenda ibisa bose bafite amasuka basa n'aho bagiye guhinga ahantu runaka.

Umupapa ubona ko agasatsi ke rwose yagasokoje, ubwana bwo hejuru nibwo yasizeho ubundi arabwogosha, hasi yambaye ikanzu y'umutuku, ndetse irimo akabara k'umweru kamanuye. Ubwo rero nkurikije uko mbubona ari ari abantu bunganira abandi mu mategeko.

Ubundi mbere yuko uyoboka inzira yo kuba umuntu wunganira abandi mu mategeko, urabanza ukiga ndetse ukajya no kubyitoreza ndavuga imenyezamyuga hanyuma ukaza bakakurahiza rero, aba bambaye amakanzu nabo nibo.

Uyu mugore mu isura nini rwose ubona ko yahuye n'ibizazane ariko bikarangira abinyuzemo akanabitsinda. Akambara ino myenda urabona ko abyishimiye rwose imituku iyi rero niyo iranga abacamanza cyangwa se abantu barahiza abandi.

Rero hari inzira zitandukanye tuba tugomba gukoramo urabahanza ukiga wamara kwiga ugakora imenyerezamwuga ukajya mu kazi, bano rero nibyo bagerageje bahitamo kunganira abandi mu mategeko, urabona ko harimo abagore n'abagabo bafashe ku matararapo bari kurahira imbere y'abacamanza bakuru.

Ni kimwe ni ngombwa rero ko nawe wajya ugerageza ukareba ko bikunda, ukirinda gukora ibyaha runaka kugira utazagera ngo iyi gereza iherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo, ijyamo abogabo bose bigeze intakoreka.

Turashimira ubutabera bwashyizeho kujya buhana abakoze ibyaha ndetse bukarenganura abarenganye. Hano rero hari uwambaye imyenda ubona isa iroza, imbere ye hari abafite amakanzu y'umukara, impapuro, bisa n'aho barimo baramurenganura cyangwa se baramwunganira mu bijyanye n'amategeko.

Ku bantu bamuzi uyu nguyu bamwitaga Kizito Mihigo. Yari umuhanzi ukomeye uririmba indirimbo nziza z'icyunamo ndetse n'izindi. Yari umusore rwose witonda, yanitabye Imana akiri ingaragu. Hano rero, yari ari mu rukiko nk'uko mubona imyenda yambaye ibibagaragaza.

Uyu umubyeyi ubonako imisatsi yiwe nubwo idasokoje neza ariko irasa neza, hasi yambaye imyenda y'imutuku, ubonako harimo n'ibara ry'umukara n'umweru. Nkurikije uko mbibona aba bunganira abantu mumategeko.

Abagabo ubonako bicaye bamwe bambaye amakoti n'imyenda y'imyeru, imbere harimo umugore. Nkurijie ukuntu ndi kubona uyu musore uhagaze wambaye imyenda isa y'iroza n'imfungwa. Hano rero, bisa naho yari ar'imbere y'abantu bari kumushinja ibyaha yaba yarakoze, kugirango abihanirwe.

Ubundi mu rukiko cyangwa se imbere y'abacamanza hakora ibimenyetso amarangamutima ntacyo abamaze, ugomba kubigaragaza, aba rero ubona nabo nibo twejyeranye n'umugore imbere yaho hari amazi amakayi n'amakarama.

umupapa mwiza rwose ubona ko umusatsi ni muke yarawugabanyije, yambaye imyenda y'imituku ndetse n'umukara, akeru harimo ishati yafunzemo karuvati, nkurikije uko yambaye, ibi ngibi byambarwa n'abacamanza cyangwa se abunganira abandi mu mategeko.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Abantu benshi babona ko bashungereye cyangwa se baje kureba, umwe yambaye imyenda y’akazi hano ndi kubonana, ndetse harimo abagore n’abasore abandi bari gusa nkaho bazimya ikintu runaka, cyangwa se babigisha gukoresha ano macupa ahungiza umuriro, cyangwa se akawugabanya igihe hafashwe n’inkongi.

Aya macupa yabugenewe undi yo kugezazimya umuriro igihe runaka ni ngombwa ko ibigo by'amashuri ndetse amavuriro, amasengero n'ibindi bashobora kubigira kuko byabatabara guhomba ibintu byinshi cyane. Rero nawe ugomba kubi iri rero nabyo ni rimwe muri zo anakora umugozi w'umukara uturutsa umwuka muriryo mindani ukawusora ukazimya ibyari byafashwe.

Amavuriro, ibigo by'amashuri, insengero ndetse n'amahoteri musabwe kujya mutunga ano macupa azimya umuriro, igihe hafashwe n'inkongi mukareka guhomba byinshi. Ano rero yagutabara igihe biri ngombwa.

Utwatsi twiza ibyuma ubona ko bishinze hakurya hari ikigega kibika amazi cy'umukara kiri ku byuma by'ubururu ndetse hari imodoka munsi rwose y'umukara bisa naho ihagaze aha hantu ifite abantu itegereje ko baza kuyijyamo bakayijyana.

Ni byiza ko nawe witegura ibintu runaka byo kwifashisha, ndetse ni nkaho babyita ubutabazi bw'ibanze. Iki gicupa rero ubona cyiba kirimo ibirungo, bishobora kuzimya umuriro igihe iwawe hafashwe n'inkongi y'umuriro. Rero ujye ugerageza, ucyihashyire mu bitaro n'ahandi.

Ibitaro, amavuriro, ibigo by'amashuri, insengero n'ibindi, musabwe kugira aya macupa azimya umuriro kuko ntawumenya ikiri bube ndetse iyo byatse ubasha kuba wawuzimya kugira ngo udahomba ibintu byinshi. Naho iki kigozi mubona cy'umutuku na cyo, ni ikibasha kugera ahantu kure cyane.

Umubyeyi ubona ko afite agakapu k'umukara arimo arigendera, impande ye hari ahantu hari utwatsi, igipangu cyangwa se uruzitiro ruriho utwuma tw'umweru n'amatafari ahiye, mimbere hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'inzu ubona ko hari gutambukaho abandi bari babiri.

Ibitaro ndetse n'izindi nzu runaka zihurirwamo abantu benshi, ni ngombwa ko baba bagomba gutunga ano amacupa y'umutuku nk'uko nawe uribona, iri ngiri rero rizimya umuriro, igihe ahaba hafashwe nk'inkongi ubwo rero byakurinda guhomba ibintu byinshi.

Ubundi iyo ufite ubucuruzi bwimukanwa ni byiza biragufasha, cyangwa se ukaba waratangiye ako kazi ukajya ufata ibintu ukabivana hamwe ukabijyana ahandi kugira ngo bamwe nibabibona nko mu ntara bazaze baguhahire wenda niba ukoreraga i Kigali. Iyi modoka rero bigufashamo gutwara imizigo runaka ukajya kubyereka abaturage.

Iki rero ni icyo bifashisha bari kuzimya umuriro runaka igihe ahantu hafashwe n'inkongi kigomba kuba kiri ahantu hatandukanye haba mu biro, kwa muganga, mu tubari eeh mu mavuriro ndetse no ku mashuri.

Murwanda dufite amashyaka menshi atandukanye ,ariko hari ayagiye akora ibikorwa by' indashyikirwa, Urugero nkiyi ngiyi FPR ihagarariwe na perezida Paul Kagame ari nawe uyoboye igihugu cyacu, irangwa n' amabara y,' ubururu , umweru n' umutuku, ni byiza rero ko nawe wayiyoboka ukaba umunyamurwango wabo.

ku musatsi we rwose mwinshi yari yarawuteretse isura ubona ko arimo araseka ndetse n'ikote n 'ishati amwita habyarimana juvenali uyu rero yayoboye u rwanda gusa yarusize mu icuraburindi aruteza ibibazo azana amacakubiri

Perezida Poro kagame uhagarariye ishyaka rya efuperi Inkotanyi ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, uyu rero ni intwari ikomeye yakoze ibitangaza, uyu nguyu barikumwe w'umudamu ubona ni Ruwize Mushikiwabo inyuma hari ikirangantego cy'igihugu cyabo ndetse n'idarapo.

hari ibintu umwaka cyangwa se igihe runaka iyo gishize bagomba kuvuga ati akarere imihigo kahize karayihiguye reka turebe ubundi bakarutondeka ubwo rero nawe ibyo ugomba kubanza gukora ibikorwa byawe kugira uzaze mu ba mbere

Igikumwe cyiza cyane ubona ko kiriho inzara ziciye mu kiganza cye haracyeye nta mwanda urimo, ku ntoki ebyiri agahera ndetse n'igikumwe hariho amabara, nkurikije uko bimeze wagira ngo amaze gutora.

Aha rero niba ntibeshye ndikureba ari mu nteko abantu bari kuganira ku bintu bitandukanye, ibibazo byaba byugarije urubyiruko cyangwa igihugu cyabo, hano harimo abasaza, abakecuru ndetse n'aba mama bakuze nyine ubona ko bari mu myaka myiza.

Kuba kwiyamamariza kuyobora igihugu ni byiza ariko nanone gutorwa ni ikindi, uyu mugabo mubona yigiriye icyizere aravuga ko ashoboye aragenda nawe atera intambwe aravuga ngo gomba kugerageza amahirwe nubwo bitamukundiye.

Abagabo ubona ko batishimye rwose mumakote bifashe neza, imbere yabo hari umudamu, inyuma hari inzego z'umutekano z'u Rwanda. Hari n'amatente ahateye y'umweru ubona ko nibava hano barajya kuyihishamo kugirango izuba ritabica cyangwa imvura ibanyagire.

Abagore bagize ijambo nabo aho bemerewe kuba bajya kwiyamamaza bagakora imirimo runaka ndetse bakagira inshingano mu gihugu, bano rero bambaye imishanana cyangwa se imikenyero urabona bamanitse akaboko barimo bararahira bafashe ku idarapo ry'igihugu cyu Rwanda.

Aba bakandida bagerageje kwiyamamaza ariko umwe ari nawe perezida Paul Kagame uhagarariye ishyaka rya efuperi inkotanyi aratsinda, atsinda bano ba Habineza ndetse na Mpayimana Philippe.

Aha rero ni muri stade amahoro perezida wa repubulika y'u Rwanda yari ari kurahira; arahizwa n'uyu muntu wambaye amakanzu y'umutuku. Imbere ye hari idaraporo ry'igihugu rigizwe n'amabara y'umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi. Harimo n'abantu benshi, imbaga nyamwinshi muri macye.

Kwigirira ikizere ni ibintu bishobora kukugeza kure ukaba wakora ibyo ukenye ugatinyuka, rero n'uyu nk'uko umubona yagerageje kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda ariko ntibyamuhiriye imbere ye hari mikoro y'ikinyamakuru cya tivi wani gikorera mu Rwanda.

Rero hari ukuntu mwitabira inama cyangwa se hakaza n'abanyamakuru, mukajya guhura n'umukuru w'igihugu, mukabaza ibibazo bitandukanye cyangwa se haba hari ibyugarije igihugu, akaza kubikemura. Uyu rero ni perezida Paul Kagame, ari hagati y'aba bantu ubona bari mu nzu mberabyombi nziza.

Uyu mugabo ayoboye igihugu cy'u rwanda bamwita Poro Kagame hamwe n'umugore we rwose Janete Kagame inyuma ye hari abandi bari kumwe na we bamuherekeje bamugaragiye n'imitako ahantu bari kunyura ndetse urabona ko ari mu matara meza rwose.

Kuba ishusho ricuramye ntabwo byatubuza kubona ibiriho. Abanyonzi ubona ko bari kuganira bombi bahuje urugwiro. Ni nk'abamotari na ho, aho ubasanze haba hari inkuru runaka rwose, zisekeje, iziteye agahinda, na bano rero ubona ko ari byo barimo.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zakemuye ibibazo byinshi, kuko ziva mu ntara zikagera mu mugi wa Kigali cyangwa se zikaba zagenda urugendo rurerure, iyi rero ubona ni nziza cyane, irasa umweru, hakurya urahabona umu motari, ibitambaro by'icyatsi bizitiye ahantu, harimo ikimodoka kinini ubona ko kikorera imizigo.

Ubundi imodoka zigenda mu mahanga ziba zikomeye kandi zinateye neza nyine zigenda cyane kugira ngo wenda itabasha kuba yanapfira mu nzira ahogeze ntago zijya zipfa kwangirika. Iki rero ihetse kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'akantu k'umweru nicyo bashyiramo imizigo mu imbere ukaba wayivana tanzaniya ( Tanzania) bayizana mu Rwanda.

Hari ibintu ubundi umuntu atabasha kwikorera, ahubwo hagakorwa ibyabugenewe kugira ngo bimugereho, izi modoka rero zikorera imizigo ubonako atwaye ibyuma, hejuru hicaye umusore ajyiye abirinze ngo batabyiba yibere no kw'ikoranabuhanga arikubisikana n'umumotari utwaye umugenzi.

Buriya tujye dushima imana irinda abantu mu muhanda nk'iyikoze impanuka rwose uba ufite amahirwe make kuhakira rero tujya tugerageza tugen twirinda cyane cyane noneho abashoferi iyi modoka itwara imizigo ibavana mu ntara zo mu Rwanda, ibirayi wenda cyangwa se amakara.

Umuhanda nahantu habera ibibazo bitandukanye bigusaba kujya ugenda wirinze ufite n'ikinyabupfura kinshi, iyi midoka reba uhuye nayo nuguhita ikunyura hejuru uri kugenda nabi uyu munyonzi nawe arasabwa kugenda neza muruhande rwe atabogama.

Umuturage ni ngombwa yo gusigasira ibikorwa remezo bya leta, cyangwa se kuko nawe ni ibyawe ukirinda umwanda, uhata ibicupa n'amashashi. Rero hano ni ku muhanda imodoka iri gutambuka icanye amatara kuko burije cyane.

Mu muhanda ni byiza kuwugendamo witonze ariko cyane cyane uba uzi amategeko yaho. Rero ukabasha kwiga ibinyabiziga n'umuntu ubizi iyi modoka rero nayo niyo bafasha kwigisha abanyeshuri runaka urabona ko bari mu muhanda bari kwiga uko batwara.

Hari ibinyabiziga biba byaragenewe gutwara abagenzi ndetse n'imizigo urugero nka moto rero na yo irimo. Iyi ngiyi rero n'itwara ibyo mvuze urugero nk'imifuka itanu y'umuceri cyangwa se ine y'ubugari, ubwo ngubwo za zindi'zindi zitwara abagenzi ntabwo zabasha kubishyiraho byateza impanuka. Tujye tumenya aho tubariza kandi turinde ubuzima bwacu.

umuhanda w'abanyamaguru ubona ko hari imodoka iri gukata isa nizamuka, ikindi kinini kikorera imifuka myinshi cyane ndetse wareba imbere bisa naho hari akajagari ka nyinshi rwose zabuze inzira hakurya ibiti bimeze neza.

Hari imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, nk'uko tubizi zikabavana hamwe zibajyana ahandi. Iyi rero, iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'ibindi birango byamamaza banki runaka. Amatara ari kwaka, urabona ko ari mu kajoro butangiye kugorobaho gakeya.

Buriya kugira ikinyabupfura mu muhanda ni byiza, icyo bita koroherana. Hano rero ni nijoro burije, amatara ari gucana, igikamyo cy'umutuku kiri gutambuka ku yindi modoka ntoya, hakurya hari itwara abagenzi mu buryo bwihariye n'abamotari benshi. Ikirango rero kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru cyerekana ko ugomba gukomeza.

Tugende mu muhanda twitonze, kuko byadufasha. Rero hano hari akayira k’abanyamaguru gaciye mu mirongogo y’mweru. Agezemo umu umumotari, uhetse umugenzi. Imbere hari imodoka ndetse n’izindi ziri kumanuka.

Hari imodoka zabugenewe ku buryo niyo uyigiyemo nawe ubona ko ari nziza cyane uteze neza, mw'ibara ryayo ry'umweruru rero ndetse n'icyatsi n'utundi tw'ubururu tumanutsemo iyi ngiyi ikuvana Kirehe ikakugeza i Kigali utarambiwe, inyuma yaho hari abamotari, hakurya hari amazu y'ubucuruzi

Ubundi n'iyo bwije ntabwo bibuza umuntu kureba, izi modoka rero irimo utubara tw'icyatsi ducagaguye zaracitse kuko wasangaga iyo ikoze impanuka nta muntu usigara, hakurya hari izindi nini urabona ko zazisimbuye ni ku mujyi, hakurya ya hari amatage meza cyane akeye ubona ko ari kwaka.

Hari igihe iyo ubonye byanze ugura akagare ukajya kunyonga ukajya utwara utozigwa, rero yikoreyeho amakarito, igitoki, umufuka ndetse n'ibindi bihe bitandukanye, inyuma ye hari imodoka ziri kubisikana z'umweru.

Hari ubwoko bwa moto zikorera ibintu n'izitwara abagenzi iyi rero ubonaho ikintu cy'umukara handitseho imyirondoro yo wamuhamagaraho akakwitaba akakugereza Ibintu murugo, we atwara iyo mizigo ndikuvuga arikubisikana niyo modoka y'umweru iri kumanuka

Akayira k'abanyamaguru imodoka ziri kugenda zibisikana iy'umukara ndetse n'itwaye amatafari inyuma yayo hari moto hakurya hari urutambaro rw'icyatsi ruzitiye ahantu byerekana ko hari ibiri gupakirwayo.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ni nziza kuko zakemuye uburyo bwinshi cyane abantu bakoragamo ingendo, kuko n'ibiciro byari hejuru ariko ubu ngubu barabigabanyije. Ubu ngubu niba wenda ari magana atanu, ugakora urugendo ruhwanye na magana atatu, uragaruza bakayagusubiza

Gutwara imodoka bisaba kwitonda ndetse no kugenda neza mu koroherana, hano rero urabona ko nk'iyi ngiyi yikoreye imizigo itandukanye cyane isaha ishobora guhirima ikangiza bimwe mu bintu biri mu muhanda nyine urugero cyikubise umumotari cyangwa cyikikubita ku yindi modoka, nk'uko ubibona ziri kubisikana n'indi itwara abagenzii mu buryo bwa rusange jya ugenda gake rero.

Hari imodoka zagenwe gutwara imizigo ,ndetse na moto zabugenewe, ariko zino zitwara abagenzi ntabwo zibyemerewe kubera ko zishobora guteza impanuka itateguwe, iyi rero uri kubona iri kuza niyo yemerewe kuba yatwara ibintu runaka.

Mu muhanda ni ugusaba kwitonda yaba umunyamaguru ndetse n'umutwazi w'ikinyabiziga kuko ntawe umenya ikiri bube. Rero jya ugendera mu ruhande rwawe iyi modoka ubona reba ni nziza y'umweru ifite ibintu yitwikira inyuma gusa isa nk'aho itwaye imizigo, hakurya urahabona ikintu igitambaro cy'icyatsi kizitiye ahantu ubona ko bari gupakira ibintu runaka ndetse n'ibiti byinshi.

Hari igihe ubona ubuzima bwanze, ukabona usigaranye amahirwe amwe gusa, umusore wambaye umwenda w'akazi usa n'ubururu afite ikintu yikorerezaho imizigo myinshi cyane, genda wahaha wenda umufuka wa kiro jana, agakubitaho akagutwaza akakugereza aho warirugiye.

Kujya ahantu cyangwa se kuva ahandi ugenda ni byiza ko wajya utega cyangwa se ukagenda mu kinyabiziga, hano rero ndabona umwari uretse agakapu, akandi mu ntoki ndetse n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange y'ubururu ndetse n'umweru, buvanzemo umukara.

hari imodoka zagenewe gutwara imizigo izivana hanze ziza mu rwanda cyangwa se ziva uganda ziza muri tanzania rero nawe wagerageza ugashaka uruhushya rubikwemera u kajya kutwara kuko biragabura umunyonzi nawe ari gusunika umufuka munini ku igare hakurya y' imodoka itwara mu buryo bwa rusange ariko iri kumanuka

Menya ahantu ugomba kunyuraniraho niba uri umutwazi w'ikinyabiziga kandi nawe ugomba gushaka ahantu uhagarara hatari bubangamire ibiguturuka inyuma cyangwa se imbere, rero imwe itwara imizigo iyivanye mu mahanga indi igatwara iyivana mu ntara iy'ingeza za Kigali nk'uko ubibona ifite shitingi iziritse aho ngaho n'imigozi.

Hari ahantu haba habereye ijisho rwose ku buryo nawe uhageze ubona ari byiza kuhafatira ifoto; ariko nk'uko bigaragara hano ni ku cyapa cyangwa se ahantu imodoka zihagarara. Zikaba zakuramo abantu cyangwa zikabashyiramo abagenzi, na kano kazu ubona kari mu ibara ry'umuhondo ibirahure byinshi ni ko kahagaragaza.

Hari ahantu ushobora kwicara leta yubakiye abaturage ndetse hakaba hari n'ibintu bitandukanye byo kureba bituma urangaza amaso amabuye meza ashashe hasi nta mvura yahashyira icyondo n'intebe zo kwicaraho ibiti byiza cyane bizana akayaga mbese n'ibintu ubona ko biryoheye amaso.

Hari ahantu haba hakeye ubona ko uzanye n' umukunzi wawe atakicuza, hari utubuye twiza tw' umukara n' umweru ndetse dutondetse kumurongo, wakubita akajisho hakurya ,harimo udutara rwose tukwakira wagirango unyuramo, aho kwicara heza ,noneho bwo ugeze mubyo kunywa sinakubwira uko biba bimeze.

Hari imikino myinshi itandukanye hari uw'amaguru ndetse n'uwo bakinisha intoki badunda hanyuma bagatera mu kantu kaba gahari hejuru, iki rero ni ikibuga ubona ko kirasa icyatsi, umutuku, imirongo y'umweru iciyemo, hakurya hari aho abantu bicara.

Kuba wajya gukina umupira w'amaguru n’ ibintu byoroshye ariko nanone bisaba igihaha no kwitanga naribona n'abakinnyi bari mu kibuga hakurya amazamu yateyemo umupira ukinjira mu uba utsinze igitego.

Iki kirango rero kirimo ishusho ya mpande eshatu, harimo Abana bari kugenda. kigaragaza ko imbere hari ikigo cy'amashuri, ndetse hafi aho hari ibyatsi n'insinga.

Iki ni ikirango kiri mu mabara w'ubururu ndetse n'umweru kigaragaza ahantu imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zihagarara, hano ubasha kuba wahamara umwanya munini cyangwa se mutoya, nawe mugenzi niho ushobora kuza ukareba niba ubona ikinyabiziga kikuvana ahantu hamwe kikujyana ahandi.

Tuge tumenya uburyo tugenda ku muhanda, kandi tunasobanukirwe ibirango bigiye bihari. Nk'ubu ngubu hano kiri nko mu ibara ry'umutuku, ubuso bw'umweru, umuntu urigutiyura ibitaka runaka. Ubwo uge uhita umenya ko imbere gato, hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi cyangwa se gusana.

Ubu ngubu ibintu byaroroshye mbere byagoraga kurangira umuntu ahantu uri cyangwa se umuhanda uriho. Ariko kuva aho bahereye imibare bisigaye biba bitagoranye, rero aha ngaha ibi birango uri kubona byanditsemo imibare ni umuhande nyine ushobora kubwira umuntu uti ndaha naha akahagusanga.

Ikiranngo cyiza cyane kireba abanyamuhanda cyangwa se abatwara ibinyabiziga, kiri mu ibara ry'umutuku, ishusho y'umweru ndetse aha biravuga ko hano hari imirimo yo kubaka cyangwa se gusana umuhanda, bitewe n'ahantu ugeze.

Hari imihanda rwose iba igiye iriho ibirango bishobora kukwereka ahantu kujya uyunguyu urawubona rero kisa icyatsi hadahananikishije umweru bigaragara ko nukomeza urajya ku kibuga cy'indege n'ahantu hitwa Kacyiru ahandi nukata iburyo uri bujye ku nyubako yitwa kigali convesheni senta, rero hakurya haboneye ikirango kiri mu amabara y'umutuku cy'apande eshatu kivuga ngo itonde guhita ukomeza ibyo bira abatwara ibinyabiziga.

Kuba mu muhanda haba harimo ibirango, ni ibintu bitabura rwose, ujye ugerageza nawe urebe. Iki rero kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'utundi tw'umukara tugiye tuzenguruka. Bigaragare ko hano nyine ubwo uhanyura, ukurikije ibimenyetso bihari.

Ku bantu batwara ibinyabiziga, nabagira inama yo kujya bubahiriza amategeko yo mu muhanda kuko birafasha, mukagira ikinyabupfura. Iki kirango rero kirimo mirongo itandatu, cyerekana ko utagomba kurenza uyu muvuduko utegetswe, hasi hari ikindi cyerekana ko ushobora kugera imbere, ugahura n'icyuma kigufotora igihe ukoze amakosa, rero mujye mubyirinda.

Kumenya iyo ujyanya byiza ukagenda usoma ibirango biherekeza, uyu mubyeyi afite hari igikapu kirimo imyenda yiwe ubona ko nawe afite ahantu avuye ibirango byerekane ko ugiye mu karere ka gicumbi ndetse uyu muhanda ariho ukugeza.

Ku bantu batwara ibinyabiziga ibi birabareba, iki ni ikirango rero usanga mu muhanda, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ikirango cy'umukara biba byerekana ko ahangaha nta guhindukira ngo usubire iyo uvuye guhari cyangwag se nta gukata iburyo.

Nibyiza ko igihe utwaye ikinyabiziga runaka wajya wubahireza ibintu biba biri mu muhanda. Rero, iki ni ikirango cyerekana ko ugomba guhagarara akanya gato cyangwa se kanini, ukareba impande zombi niba nta kinyabiziga giturutse aho ngaho, hanyuma ukabona gukomeza.

Hari abantu batwara ibinyabiziga ukagirango ni impumyi ntibubahirize ibirango biba biri mu muhanda bibayobora rero jya ugerageza ugende ureba cyane, iki kiri mu ibara ry'umuhondo, ikirango cy'umukara cyerekana ko ushobora guhindukira ugasubira aho uvuye.

Ikirango nyine kiba cyeyereka na umuhanda uri bukomeze n'ukata i buryo mu ibara ry'umuhondo, rero bireba abatwazi b'ibinyabiziga bajye bubahiriza ibyo babonye, cyane ko iyo bakoze amakosa babihanirwa n'urwego rushinzwe umutekano mu muhanda.

Abantu batwara ibinyabiziga mujye mwubahiriza ibirango biba biri m'umuhanda kuko bibereka ukuntu mwakurikiza amategeko cyangwa se mwagira umuco n'imyitwarire myiza nk'igihe mutwaye mukaba mutahura n'ibyago, iki nacyo ubona kiri mu ibara ry'umuhondo ikirango cy'umukara kiragufasha.

Tujye twitondera imihanda tugenda kuko ntabwo tuba tuzi ngo turahuriramo n'ibiki. Twubahirize ibimenyetso bihari kugira ngo tudateza ibyago. Iki rero ni ikirango cya mpande eshatu, ubuso ni umuhondo, ikirango cy'umukara cyerekana ko ari umuhanda ukomeza iburyo hagakatiraho undi. Hakurya urahabona ibiti byiza.

Ikirango rero cyiza cyane cyerekana ko imbere gatoya hari umuhanda ukata iburyo. Kiri munsi ubwo uhita umenya ko uri bugera ahantu abanyamaguru bambukira. Hirya yacyo ho gato hari za nsinga zijyana amashanyarazi ahantu runaka ndetse igihe abaye makeya kiriya cyuma kirawongera.

Ntabwo byashoboka ko wajya utwara utarabona ibirango mu muhanda bitandukanye byerekana ikintu gi kugera imbere yawe, kiriya rero kirimo umutuku ndetse n'umweru kigaragaza ko hakurya nurenga imbere gatoya, urabona aho abanyamaguru bambukira, ku umuhanda mu twatsi hejuru urahabona ibyuma bihari by'umweru.

Abantu batwara ibinyabiziga mujye mwubahiriza ibimenyetso by'umuhanda kuko birabafasha bikabarinda gukora impanuka za hato na hato cyangwa se ukaba wakwiyemeza ugakata aho utabwiwe utazi neza ibyongibyo ni amakosa akomeye iki rero kiri mu mabara y'umuhondo ikirango cy'umukara cyerekana ko ugomba gukomeza inzira imwe ntaho gukata hahari.

Ikirango cya mpande eshatu kirimo ibara ry'umutuku, ubuso n'umweru, umugabo cyangwa se, ikibiranga umukara urabona ko harimo umuntu ufite igiti yarimo aragenda ahaponda umucanga. Ibi rero nubibona bi abatwazi b'ibinyabiziga bazahite bamenya ko imbere hari imirimo yo kubaka umuhanda, cyangwa se kuwusana.

umuhanda nyabagendwa haba haberamo ibi byinshi, akazu keza ko mubara y'umuhondo karimo umuntu ucuruza amayinite cyangwa se abitsa akanabikura, impande ye hari intebe y'ubururu, hakurya hari abari kwigendera, ubona ko ari ibintu bikeye cyane, amazu rero nayo arahari y'ubucuruzi waza ukikorera.

Umuhanda kubera kugendwamo n'abantu benshi usanga mubyigana gusa icyo mbikundira buri muntu areba ibye waba uri kurya ikiraha isambusa nta muntu ujya akureba hano rero ni abantu batandukanye bafite inkweto, abamotari, insinga zica hejuru ubona ko ari ibintu nyine buri muntu afite aho yigirira.

Ku muhanda mwiza cyane ubonako ushashemo utuye, hariho akayira k'abanyamaguru uturabo duteyeye ahantu, hari imbaho, warebamo imbere bisa naho bacuruzamo ibintu bijyanye n'icyayi, cyangwa se utundi tuntu. Hakurya hari umumotari utwaye umugenzi ndetse n'ibiti.

Igikuta cy'amabuye cyiza cyane ubuna ko utwatsi twakirengeye tukamanuka ibyuma bihatangira kuburyo utapfa kuhurira, ndetse amatafari ahiye hakurya urahabonamo inzu ndetse ibamo abantu nyine n'ibiti byiza cyane.

Umuhanda ubona ko bari bakiri kuwukora ariko utarangiye neza, hakurya hari ahantu basa nk'aho bari kubaka hazitijwe ibyuma, igipangu kiriho insinga hejuru wuriye zagutema, amazu meza yo mu bwoko bwa etage ubona ko yatwaye ifaranga kugira ngo bayubake.

Uko ibintu bihinduka ni nako n'ibindi bigenda byiyongera. Aha rero bisa naho bari kubaka nkurikije iriya nzu y'amabati y'ubururu n'ubwiherero ndetse hakurya urahabona ahantu hari imbaho ziharunze n'ibimashini biri kugenda bisiza ikibanza kugira ngo gise neza.

Umuhanda w'igitaka ariko harimo akayira kanyuramo amazi hakurya hari abaje bitwikiriye umutaka bategereje ko bafungurira, moto ni zimwe zikoresha umuriro hakurya hari n'utundi tumodoka tuhahagaze.

Hari inyubako ureba ugahita wibaza amafaranga yagendeyeho ukumirwa nawe. Reba ibyatsi bihateye imbere, ibyuma bihazitiye, ukuntu ingana, ibirahure biriho, ibirango bashyizeho, rero tujye tumenya guha agaciro ibintu twavunikiye.

Buriya iyo ufite amafaranga wubaka neza, izi rero zifite ibisenge bisa, amabati y'umukara ndetse ubona ko hari n'izindi zifite ay'umutuku, harimo uduti tugiye dutandukanye tubazanira akayaga. Ndetse n'indi taje ndende ubona ko ari iy'umuntu ufite kw'ifaranga yazamuye hano hantu mur'izi nce nyine.

umuntu uzi agaciro k'ubutaka niwe wavuze ngo hano hantu reka mpagure muri za mirongocyenda, wenda mbe nyabitse nukuyajugunya. Ariko hari undi wabyanze aravuga ngo ntacyo nahamaza hano sinahaba. Rero, ubugubu reba amazu meza ahari meza cyane ibiti ndetse aranageretse ubu ngubu adafite nk'ijana na mirongo itanu ndavuga miliyoni ntabwo wabona inzu

Umuhanda n'igitaka ariko urabona ko ari mugace kahantu runaka hibera ubucuruzi butoya buciririctse, iyi modoka ureba imbere y'ubururu niyo bigishirizamo gutwara, naho izindi n'izabantu baba baje mukazi gatandukanye.

Hari amatage aba asa neza rwose ukabona umuntu wayubatse yarashoye kandi yamugaruriye amafaranga yiwe yatanze. Rero urabona aya asa umweru n'ibirahure by'ubururu hejuru yanditseho zigama.

Umuhanda ubona ko urimo amabuye abantu bahetse ibikapu bari kwimanukira bagenda, amamodoka ahahagaze rwose y'umukara ndetse n'akandi k'umutuku keza. Bidufasha kuba twava ahantu hamwe tukajya ahandi, hakurya urahabona ibiti cyangwa se utuzu twiza.

Urukuta rw'amabuye rubereye ijisho kureba, ibiti ndetse n'inkingi ni heza, hakurya urahabona umuntu ucunga hano hantu yambaye imyenda y'akazi, imbere ye hari utuntu nkurikije uko ntubona bamenaho imyanda, nyine ni ho bayishyira ndetse waza ukahasura.

Hari amaduka yashyizeho aho imodoka zihagarara wenda igihe zije guhaha nka hano hari ikirango cyerekana ko bacuruza, indobo hanze y'umutuku ndetse n'iy'icyatsi ubona ko ari ibintu bibera ijisho, inzu zirageretse zifite ibirahure ndetse n'amabati meza.

Hari abantu batinyutse kugura ubutaka kera, ugasanga aravuze ngo ahangaha ngo ntabwo ngo ni habi ngo ntago bahatura ariko ndebera ubungubu uwihanangirije akavuga ati reka nihandagaze hano mpashore ayanjye cyangwa se ashobora kuba yarahaguze avuga ngo ngiye kuyajugunya ariko niwe uzi agaciro k'ayo yatanga, niba yarahaguze imwe ubu bamuha mirongo itatu reba amazu yubatsemo.

hari ahantu utura ukabona ko hari ibikorwa remezo byiza bibereye amaso kandi isa nisaha aho ushobora kuza hano harenzeho'amabati ubona ko yashaje hari aho barikase biba byaragenze gute ibiti byiza hakurya hari izindi zifite umutuku ndetse ku bantu bari kureba neza e iriya ni stade amahoro nziza ruberermoo'umupira w'amaguru hano mu rwanda

Ni byiza ko wakwiturira ahantu ku muhanda kuko haba hari amatara akumurikira ukagira ngo ni ku manywa n'iyo bwaba bwije, rero hano niko bimeze, igipangu kiza cyane cyubakitse kiriho udutako ndetse mo imbere hakaba harimo ibiti n'inzu nziza ubona ko ari nini yaturamo umuryango.

Ubundi iyo ufite amafaranga nawe ugomba kubaho neza ukaba mu bintu byiza cyane kubera ko birakuryohera cyangwa se bikakunyura, iyi ni inzu rero ubona ko ihagaze agaciro k'amafaranga afatika rwose, manini kandi ifite n'ibintu bizana akayaga mu nzu, ibirahure byinshi ndetse n'amadirishya.

utuyira tw'abanyamaguru twabaye twinshi gusa tujye tubyubahiriza hakuryaho imodoka y'umukara iri gukomeza ndetse n'izindi nyinshi ziparitse iryiriya ku nzu nini cyane ubonako ari iz'ubucuruzi nyine ziba zihari

Kuba ahantu hasa neza ni byiza noneho ariko umuhanda biba akarusho, hari rero ubona n'i itara rihashizeze ry'umweru ririho ikirango cy'umutuku, ibiti hakurya ndetse n'urupangu rurimo abantu ubona ko baje kwibera k'umujyi.

Nubona amafaranga uzabe mu gace keza kabamo abantu nyine muri mu kigero kimwe kuko haba hatuje, urugero nkahangaha urabona ko hari aganda k'amabuye ntabyondo bihaba igipangu cyiza cyane, etage yegeranye n'indi nzu ntoya ubona yo ko ifite amatafari ahiye hakurya hari ikindi gisize irangi.

Kuba waba ahantu heza ni byiza cyangwa se leta yanashyizeho uburyo yubakira abantu, bakagenda bakicara ahantu ubona ko hameze neza rwose, hari indabyo nziza n'intebe zo kwicaraho. Hano nkurikije ukuntu mpabona rero, ni aho banywera fanta, hakurya urahabona amacupa amanitse ndetse na televiziyo.

Ni byiza ko wa munyamaguru we ujya umenya ahantu ambukira biri ngombwa iyi mirongo y'mweru mu gihe uyibona umenya ko ariho ukwiye, hakurya harimo y'umweru itwara mu buryo bwa rusange n'izindi ziri hirya ziri kwimanukira rwose.

Ikirere ubona ko igicu kidasa neza rwose, amatara amurika mu muhanda igihe bwije ndetse n'andi ayobora imodoka, hakurya urahabona imirongo y'umweru inyuramo abanyamaguru, indi y'umuhondo inyuze hagati ivuga ko batagomba kuhahagarara hano.

Tujye tugenda mu muhanda twitonze kandi tumenye aho twambukira igihe turi abanyamaguru, nawe mutwazi w'ikinyabiziga runaka birakureba, hakurya rero urabona amatara ayobora abantu imirongo y'umuhanda ikasemo yerekana ko utagomba guhagarara umwanya munini, aho imodoka ziri kumanuka zimwe zijya mu kazi, izindi... biterwa nyine n'icyo ukeneye.

Wowe utwara ibinyabiziga imodoka, moto ugomba guhagarara ahabugenewe. Hano rero niho, ariko nubwo mbona hari utuziba dukeya tw'amazi ugira ngo akavura kaguye ariko ntakibazo hakurya hari akazu bicara k'ubururu nk'abagenzi. Inyuma hari ibiti ubona ko bituma agacucu kaza ntibicwe n'izuba.

Hari imihanda ibike rwose ubona ko nawe kugendamo byaba ari byiza cyane hano rero harimo umurongo urombereje w'umuhondo ibiti ku mpande utubuye tw'umukara n'umweru hakurya hari umusore uhagaze sinasha kwambuka ndetse n'abandi bari kuzamuka mbona ko bafite bagiye, akazu kari mu ibara ry'ubururu.

Kugenda nijoro udacanye amatara ntago ari byiza, jya ugerageza ukurikiza amabwiriza gusa byaroroshye aho mu muhanda ukunda kuyasangayo rero nkurikije urumuri ndikubona imbere yanjye n'urw'abamotari hakurya hari amazu mbona ko nayo yaka rwose.

Kugenda mu muhanda bisaba kwitoda natwe turabizi twese hano rero urahabona imirongo icagaguye y'umweru hirya urahabona umwanya urimo naho rero imodoka zitwara ahantu uburyo bwa rusange zihagarara kugira ngo zibakuremo cyangwa zinabashyiremo hakurya urahabona amatara meza rwose acana igihe bwije.

Reta ( leta ) niyo yubatse ino mihanda ariko hagendewe ku musoro w'umuturage, ni munsi y'ikiraro ariko no hejuru zirahaca .Akagare kikoreye ameza ndetse hari n'izindi modoka ziri imbere zigiye guhura n'ikamyo y'umutuku imanuka.

Buriya kugenda mumuhanda bisaba kwitonda ukaba umunyamakenga kugirango ubashe kumenya icyaguhungabanya ibinyabiziga biba biri gutambukamo rero nahano ujye wicunga gusa urahabona abamotari barimo barirukanka bafite aho bagiye.

Aba bantu ubona ko barimo barambuka harimo umwari umwe ndetse n'abagabo batatu bafite aho bagiye aha ni ahabugenewe ntamakosa barimo hakurya urahabona abamotari nabo bari gukora akazi gatandukanye.

Kugenda muhanda bisaba kwitonda unakurikiza ibimenyetso byawe .Rero iyi ni imirongo y'umweru igaragaza abanyamaguru bambukira hakurya hari imodoka nyinshi ziri kugenda z'umukara ndetse n'ibiti ubona ko bituma ahantu hasa neza cyane rwose.

Niba utwara ikinyabiziga gerageza hagarara ahantu habugenewe, nawe mugenzi utegetswe kujya ujya ahantu ufatira ibikujyana nyine ku kazi. Rero iki ni icyapa gihagararaho imodoka yaba umwanya munini cyangwa umutoya biterwa hari akazu k'ubururu ndetse n'umugenzi urigatambuka izindi ziri kumanuka.

Hari imihanda y'ibyerekezo bitandukanye, ariko unuramo imodoka zimanuka nizimunuka. hagati hari imirongo y'umuhondo itandukanya ibice bibiri, n’ amatara amurika nijoro igihe bwije.

Ya misoro dutanga niyo igaruka ikubaka ino mihanda. Imirongo ubona uciyemo y’umweru, hari umunyegare niyerekana ko hagomba gutambuka abanyamaguru. Rero kuhagera ahahagaze cyangwa arimo, ugahita ukomeza gutwara ikinyabiziga ni amakosa ahanwa n'amategeko.

Mwabana nijoro mwaba mwemerewe kugenda rwose amatara ari ku muhanda ndetse banyura munsi no hejuru ikirango kiri m'ubururu ndetse n'umweru cyerekana ko bahanyura babanje kuzenguruka umumotari uri gutambuka ndetse n'imodoka ziri kugenda.

Umuntu utwara ibinyabiziga ni byiza ko ugenda mu muhanda witonze hano rero uraona ko wangiritse ariko nta kibazo wajya witambukira hakurya hari abamotari ndetse n'imodoka ziri guturukayo hirya hari ikirango cy'ubururu cyerekana ko ugomba gukomeza amashyamba amazu hakurya ndetse n'amatara acana igihe bwije.

Imihanda buriya iba ikeye cyane ndetse inatandukanye, hano rero harimo ibice bibiri uwo uzamuka ndetse n'unyuramo izi manuka ariko ndahabona icyuma kiri k'utuntu tw'udukaro rwose, iyi rero iyo ukoze amakosa kiragufata kikagutanga ukazayahanirwa.

Iyo hacyeye rwose n'umuhanda uba ucyeye; imirongo y'umuhondo, urabona ko iwutandukanya ikawugira ibice biri. Hakurya hari ibiti wareba hirya hari aho zinyura zimanuka, ikindi gice hanyuramo izizamuka. Hakurya hari ibyuma bitangira, ibindi bintu nyine bibasha kuba byagwa hakurya muri biriya biti.

Ifoto kuba icuramye ntabwo byakubuza kuyireba ku bantu bazi mu muhanda ahangaha ni mu mpera z'ahantu imodoka zihagarara umwanya munini harangirira nyine ugahita winjira mu muhanda munini bani babamotari nibo rero ubona ko bari kuzamuka, imodoka z'umweru nazo ziri kumanuka. Ibiti ku muhanda byiza ndetse n'amatara acana igihe bwije.

Mu muhanda habera ibintu bitandukanye nyamuneka uge ugenda wingengesereye ahabugenewe, hari uburyo ubonako ushobora guhita uzamuka ariko harimo ibyerekezo bibiri ihise izamuka ,imanuka iriya modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iyo iri kwerekeza aho igomba kubageza n'abandi bamotari bari kugenda.

Uko utanga umusoro niko twiyingera natwe ,ibintu bigenda bitera imbere gake gake, hano ni kumuhanda, ariko ntabwo wamenya ko bwije ,nkuko ubibona imodoka ziri gutambuka zinirukanka cyane, hariya bahanyura munsi y' ikiraro, hari ikirango kibyerekana ko bahanyura bazengurutse zimwe zinyura hejuru izindi zikanyura hasi, amatara nijoro rwose ubona ko hakeye.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko hari akayira k'abanyamaguru, ndetse hari igikuta cy'amabuye kizamuye, ibiti byiza bihateye. Unyuramo ibyerekezo bitandukanye ; izimanuka n'izizamuka, amatara ku muhanda ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho.

Imihanda iracyeye cyane ariko haba harimo ibyago byinshi by'uko ushobora kugonga umuntu cyangwa se nawe akiyahura mu muhanda ugasanga ateje ibindi, hano rero hari imirongo y'umuhondo, ibyatsi, amatara ndetse n'ikirango cyerekana ko bahanyura bazengurutse n'imodoka ziri kuhagenda urabibona.

Umuhanda urebye nabi wa kunyereza nk'umuntu utwaye igare cyangwa se muto ugasangarabo yarakomeretse. Jya ugenda witonze rero ariko urabona ko ni ahantu hatuwe hameze neza indabo ku muhanda amazu ahagaze neza cyane.